Aha ngaha harerekanwa ubwishingizi bwa Britame, babwira abantu ngo bahitemo kurambana na Britame ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, hakaba hari umuntu hano urimo kuryamamaza nk'umuganga, bashishikariza umuntu wese gukoresha Britame.

Iri ni iduka ririmo ibintu byinshi bigiye binyuranye, harimo akawunga, harimo umuceri, harimo ibirungo byo gushyira mu mboga, harimo fanta, harimo ifarine kandi hakaba harimo umuntu waje kugura arimo kuganira n'umucuruzi.

Iri ni iduka ry'ibitenge byinshi, ibitenge biri mu bwoko bwa wakisi, bikaba bikunze kwambarwa n'abadamu cyangwa se abantu bakuze benshi bafite abana.

Aha ngaha ni mu iduka ryitwa Golden Fashion Shop, rikaba ririmo imyenda itandukanye, y'abagabo n'abasore, harimo amapantaro, harimo amashati y'ubwoko bwose, umusore cyangwa umugabo yakwifuza kwambara.

Iri ni iduka ririmo imyenda myinshi iri mu bwoko bw'abagabo, harimo imipira yo kwifubika kandi hakabamo amashati y'ubwoko bugiye butandukanye umusore wese cyangwa umugabo yakwambara.

Iduka ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye higanjemo za mudasobwa, amaterefone, amasaha, inkweto, amashakoshi y'abadamu ndetse n'imitako y'ubwoko bugiye butandukanye.

Iri ni iduka, aho tubona umucuruzi arihagazemo, hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibirungo batekesha ibiryo, harimo amakotegisi, harimo amavuta yo kwisiga, harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Iyi ni imodoka ya kampani yitwa Kigali kazi maketi, ikaba irimo kugurishwa amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni cumi n'umunani, ikaba ari imodoka ifite ibara ry'umweru kandi nziza cyane.

Aya ni amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu, akaba ari inoti nshyashya iherutse gusohorwa isimbuye ishaje, ibihumbi bitanu bikaba byagura ibintu byinshi muri iki gihugu. cy'u Rwanda.

Inote y'ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda iherutse gusohoka mu gihe kitari kinini, kugira ngo isimbure ishaje, yari imaze igihe kinini ikoreshwa.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda, akaba ari amafaranga atanu kandi akaba yarakoreshwaga mu bihe byatambutse bya kera mu Rwanda, kubera ko ubu ngubu ifaranga ritoya rihera kuri makumyabiri, aya ngaya akaba atagikoreshwa ukundi.

Iri ni iduka ricururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakaba harimo amata y'inyange, ji ya mango, amazi maremare ndetse n'amato ndetse hakaba harimo n'ibyo kurya nk'amandazi na capati.

Aha ni ahantu hagurishirizwa amata, ji ya mango, amazi manini ndetse n'amato, hakaba hari n'ibikombe baheramo abantu baje kunywa amata kandi hari n'amandazi ku ruhande.

Aha ni ahantu hacururizwa amata y'Inyange, hakaba hari udutebe hanze ndetse n'akameza aho abantu baje kunywera bakicara bagasangira aya mata, kandi hakaba hari n'icyapa cyerekanwa ko Inyange milike zoni ari aho ikorera.

Iri ni iduka ricuruza amata, amata acururizwamo akaba ari amata ya Mukamira mirike zone, turabonamo n'icyuma gishinzwe kubika amata neza, kugira ngo agumane ubuziranenge bwayo, kandi imbere mu iduka harimo umucuruzi ushinzwe gucuruza aya mata.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ya Nyanza miriki indasitirizi, hakaba harimo udutebe twabugenewe aho abantu bashaka kunywera amata bicara ndetse hakaba hari n'icyuma kibikwamo amata kugira ngo agumane ubuziranenge bwayo.

Iri ni iduka ricururizwamo amatara ya Mukamira ndetse n'amazi maremare n'amagufi, hakaba hari n'icyuma kibikwamo aya mata kugira ngo ataza gutakaza ubuziranenge bwayo.

Aha ngaha ni ahantu hagurishirizwa amata kandi hakaba hari n'icyuma cy'Inyange miriki zone, kibika amata kugira ngo akomeze afite ubuziranenge, turabona na none abantu baje kugura amata, hari n'undi muntu urimo kuyabahereza.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ya Nyanza milk industries, kandi turabona hari umudamu uyacuruza, ufashe ijage, arimo kuyapimira umuntu uje kuyagura, tukabona hari n'icyuma kibika amata neza, kugira ngo adata ubuziranenge bwayo.

Aya ngaya ni amazi ya Nile ari mu macupa maremare, hakaba n'andi ari mu makarito, aya mazi akaba ari bujyanwe ahantu hatandukanye, agurishwa kugira ngo abantu bari buyagure baze kuyanywa.

Aha ni ahantu hacururizwa amata yo kunywa kandi hakaba hari n'icyuma cya Nyanza miriki indasitiri, kikaba kibika amata neza kugira ngo ataza gutakaza ubuziranenge.

Aha ngaha barimo kwamamariza airtel, bereka abantu byoroshye: uburyo bagura amayinite, uburyo bakwishyura ibicuruzwa, uburyo bakohereza abandi bagenzi babo amafaranga, ndetse ubuzima bakabworoshya bakoresheje airtel money.

Iyi ngiyi ni imitako ine ikaba ari myiza cyane kandi ikaba yakoreshwa itakwa mu nzu cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye, yaba aho ukorera, yaba aho ugiye gukorera ibirori ndetse n'ahandi henshi.

Iki ni igikoni aho tubona umutetsi arimo gukata ibirungo bigiye bitandukanye harimo ibitunguru, harimo inyanya, harimo karoti ndetse n'ibindi byinshi ari bwifashishe mu guteka.

Iri ni isoko rikaba ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo amapapayi, harimo amaronji, harimo ibinyomoro, harimo inanasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi.

Iringiri ni isoko ry'ibitoki n'ibirayi kandi rikaba rihuriramo abacuruzi n'abantu baba baje guhaha ibi bicuruzwa kugira ngo babitahane.

Iri ni isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibitoki, inyanya, karoti, intoryi, amashaza, imiteja, amashu, idodo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni isoko ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye harimo imineke, inanasi, ibinyomoro, amaronji, amatunda ndetse n'izindi mbuto hakaba harimo n'ibirungo byo gutekesha imboga.

Ni isoko ry'ibiribwa, aho tubona imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibyo kurya harimo imineke, harimo amaronji, harimo avoka, harimo karoti, harimo inyanya ndetse n'intoryi.

Aha ngaha ni mu isoko, aho tubona ibikoresho byinshi by'isuku, imyenda, amasahani ndetse n'abantu barimo kubigurisha babihereza abaje kugura.

Iri ni isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo imineke, harimo amaronji, harimo avoka, harimo inyanya, harimo amatunda ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye

Iri ni isoko ry'ibiribwa harimo imyumbati, amaronji, amapapayi, inyanya, amakara ndetse n'umuntu urimo kugurisha ibiribwa bigiye bitandukanye ku bantu baje kubigura.

Iri ni isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo imineke, hari n'amaroji, harimo amatunda, harimo pome, harimo ibinyomoro ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi, muri iri soko hakaba harimo abacuruzi ndetse n'abaje guhanga ibiribwa.

Aha ni mu isoko ry'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho tubona inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, amashaza, ibitoki, ndetse n'ibindi bice bitandukanye.

Aha ni ahantu karimo gucururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye. Hari inyanya, hari amashu hari imyumbati, hari ibitunguru kandi turabona hari umu mama urimo gucuruza yicaye munsi y'umutaka ndetse n'abandi barimo kugendagenda bareba ibyo bagura.

Iri ni isoko ry'ibiribwa ririmo abantu benshi yaba abacuruzi ndetse n'abaje guhaha, hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye byo kurya, inyanya, intoryi, imiteja, karoti ndetse n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko ry'ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye hakaba harimo, inyanya, intoryi, ibitoki, urusenda ndetse n'ibindi byinshi kandi hakaba harimo abantu benshi barimo kubicuruza n'abandi baje kubihaha.

Iri ni isoko aho hari abacuruza ndetse n'abaje kugura, harimo amaronji ndetse n'imyumbati kandi biragaragara ko hari umuntu waje kugura amaronji, bakaba bayamushyiriye mu ishashi agiye kuyatahana.

Iri ngiri ni isoko ry'ibicuruzwa biri mu bwoko bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, kandi turabona ko buri hantu hagiye hari ikiharanga, hari ahari amashu, hari ahari ibitunguru, hari ahari urusenda, hari ahari inyanya, hari ahari ibiringanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode ya momo payi, aho umuntu ukoresha iyi kode yitwa Getpong Enterprise, kode ikaba ari mirongo irindwi n'umunani mirongo icyenda makumyabiri.

Ubu ngubu ni uburyo bwo kwishyuramo ukoresheje momopeyi, aho uba ufite kode, hano baratwereka uko wakwishyura ukoresheje akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu kanyenyeri gatatu urwego bakatwereka kode yo kwishyuriraho kari rimwe zero umunani kane rimwe gatatu.

Aka ni akazu ka MTN mobayiro mani aho tubona abantu benshi barimo kugana umuntu ugomba kubaha serivisi zijyanye n'ibintu bya MTN mobayiro mani, akaba arimo kuzibaha uko bikwiriye.

Mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy’u Rwanda, amafaranga angana na miliyoni mirongo itatu, yakugurira inzu nziza cyane. Iyo nzu ifite aho kwicara heza, ifite ibyumba binini kandi byiza, ndetse ikagira n'igikoni cyiza.

Amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu Rwanda, muri Kigali ashobora kukubakira inzu nziza ihenze, inzu iri ahantu heza ndetse ukanagura n'imodoka.

Amadorari magana inani buri kwezi, mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, yakubesha mu nzu nziza ifite saro nziza, ifite ibyumba byiza binini, ifite n'ubwiherero ndetse n'igikoni cyiza.

Amadolari ijana na magana atanu buri kwezi mu Mujyi wa kigali, yakubakira inzu nziza igeretse ifite imbuga yisanzuye ifite n'ahantu waparika imodoka yawe.

Amafaranga miliyoni ijana na mirongo itanu y'u Rwanda, mu Mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, yatuma ugura inzu nziza yubatse mu buryo bwiza, ifite imbuga nini yisanzuye ndetse n'aho kurara n'aho kwicara heza.

Amadolari ibihumbi bibiri buri kwezi, mu gihugu cy'u Rwanda, mu Mujyi wa Kigali, ashobora gutuma uba mu nzu nziza, inzu ya etaje, inzu ifite salo nziza, inzu irimo igikoni, ndetse n'ibyumba byisanzuye.

Mu mujyi wa Kigali amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo ine y'u Rwanda, ashobora gutuma ugura inzu nziza ifite igikoni cyiza, ifite ibyumba byiza, ifite aho kwicara heza, ifite imbuga nziza ndetse n'ibindi byinshi.

Amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi, muri Kigali, yaguhesha inzu nziza, inzu ifite salo nziza, irimo intebe nziza, imeza nziza, televiziyo ndetse n'imitako.

Amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu y'u Rwanda, yakugurira inzu nziza muri Kigali, inzu iri mu gipangu cyayo yonyine, inzu ikikijwe n'ibiti, inzu ifite no hanze heza.

Amadorari maganinani buri kwezi mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda yagutuza mu nzu nziza. Inzu ifite aho kwicara heza harimo intebe nziza zigezweho, igikoni watekeramo ibiryo byawe ndetse n'uburyamiro.

Amadolari ibihumbi magana atanu na mirongo itanu buri kwezi, umujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, yashobora kuguhesha inzu nziza ifite uburyamiro bwiza, hari igitanda cyisanzuye ndetse n'umusego kandi hakaba ahafite n'ahandi hose bakwicara heza.

Mu mujyi wa Kigali, amafaranga angana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, yakugurira inzu nziza cyane, inzu ifite aho wakwicara heza, ibyumba byiza, igikoni ndetse no hanze heza.

Amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ashobora gutuma ugura inzu nini cyane kandi nziza, ifite ubwisanzure, aho washyira intebe zawe wisanzuye, ikagira n'uburyamiro bwiza ndetse n'igikoni.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu Mujyi wa Kigali, miliyoni ijana na mirongo itatu zatuma ugura inzu nziza cyane, inzu ihagije mu bunini, aho wabona ushyira intebe zawe, aho wabona ushyira uburyamiro, aho wabona utekera ndetse n'ibindi byinshi.

Amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu y'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali ashobora kugurira inzu nziza cyane, inzu yisanzuye irimo aho kwicara hanini, irimo ibyumba bigari ndetse ifite n'imbuga nini.

Amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora gutuma uba mu nzu nziza, inzu ifite ubwogero bwiza bugezweho ndetse n'ibyumba byiza byo kuraramo kandi ufite naho wicara.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ku Gisozi nziza ifite ibyumba bine, ifite ubwogero bwiza, ifite aho wakwicara heza, ifite uburyamiro bwiza, mbese umuntu wese yakwifuza kubamo.

Amadolari ibihumbi magana atanu mirongo itanu buri kwezi, mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ashobora gutuma uba mu nzu nziza, inzu ifite intebe nziza, ifite imeza nziza, ifite imitako iyirimo.

Ushobora kugura inzu nziza cyane mu mujyi wa Kigali uramutse ufite amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu inzu ifite ubwicaro bwiza, ifite ibyumba byiza, ifite igikoni, ifite n'uburyarya bwiza.

Miliyoni mirongo irindwi n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda muri iyi Kigali muri Kabeza, yakubakira inzu nziza inzu ifite hanze heza ifite imbuga nini waparikamo imodoka zirenze ebyiri.

Iyi ni inzu nini cyane kandi nziza ikaba ifite amarido maremare, ifite intebe nziza z'amabara y'ubururu, ikaba ifite n'imeza nziza y'umukara, kuruhande hari n'ahandi ho kwicara, abantu barimo kurya ndetse na firigo.

Amadolari magana atanu na mirongo itanu, buri kwezi yakubakira inzu nziza cyane i Kigali, inzu ya etaje, inzu ifite ibyumba byinshi, ikaba ifite na jaride, ikaba ifite parikingi, ikaba ifite ahantu hisanzuye cyane.

Umujyi wa Kigali amafaranga angana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, ashobora gutuma ukodesha inzu ihenze kandi nziza cyane, inzu ngari ifite aho washyira intebe, zawe ifite aho washyira igitanda cyawe, ifite ubwogero buhagije, ifite n'igikoni imbere.

Miliyoni magana atatu mirongo itanu y'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali ashobora gutuma ugura inzu nziza, ifite igikoni cyiza, ifite aho kwicara heza, ndetse n'ibyumba byiza byo kuraramo.

Mu mujyi wa kigali muri Kabeza, amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu yatuma ugura inzu nziza, inzu ifite aho kwicara heza, ifite uburyamiro bwiza, ifite ubwogero bwiza, ndetse n'ahantu watekera kandi n'imbuga nziza ngari.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ikaba ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri kandi ikaba ikodesha amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi.

Amadolari ijana na mirongo ine, mu Mujyi wa Kigali ashobora kubakira inzu ifite ibyumba bitatu, ifite ubwogero butatu, ifite salo nziza ndetse n'aho kurira heza, ikaba ifite n'igikoni cyiza cyane.

Iyi ni inzu nini cyane iri mu gipangu kinini, ifite imbuga nini, hakaba haparitse moto imbere yayo, iyi nzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, i Kanombe, ikaba ikodeshwa, ifite ibyumba bine, ikagira n'ubwogero butatu kandi no hanze hakaba hari imbuga nini cyane yubatswe n'amapave.

Iyi n'inzu ifite ifite igipangu ikaba ari nini cyane, ikaba ifite no hanze heza kandi hagari, iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu, kandi ikaba yegeranye n'izindi nzu nyinshi.

Iyi ni inzu ikodeshwa i Kanombe ikaba yishyurwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'u Rwanda buri kwezi. Ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi, ifite ibyumba bibiri ikagira n'ubwogero bubiri.

Iyi ni inzu iri muri Kigali ikaba iherereye Kimironko. Kandi iyi nzu irimo gukodeshwa. Ni inzu nziza, ifite no hanze heza, ahantu umuntu yaparika imodoka zirenze ebyiri.

Iyi ni inzu iherereye muri Kigali ku Gisozi ikaba ifite icyumba kimwe, ubwogero bumwe kandi iyi nzu ikaba igomba kwishyurwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, ikaba ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri, ikagira n'ubwogero bumwe, ni inzu ngari cyane, ifite irange ryiza ndetse n'imbuga nziza iri hanze.

Iyi ni inzu iherereye muri Kigali - i Kanombe, ikaba irimo kugurishwa miliyoni cumi n'eshatu, ni inzu nziza ifite umwanya mwinshi, ifite aho washyira intebe zawe, ifite aho washyira igitanda, ifite aho washyira imitako, ifite n'amatara meza.

Iyi ni inzu iherereye muri Kigali - i Remera, ikaba irimo gukodeshwa, ifite icyumba kimwe, ikagira n'ubwogero bumwe, ni inzu ifunze urebeye hanze, ifite hanze heza, ifite imbuga nziza, irimo utubuye duto duto.

Iyi ni inzu ikodeshwa ibihumbi maganabiri y'u Rwanda, akaba ari inzu nini cyane ifite imbuga ngari, ifite ibiti biyikikije ndetse n'utwatsi hanze twiza cyane.

Iyi ni inzu nziza cyane ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'u Rwanda buri kwezi, ifite ibyumba bine, ikagira n'ubwogero butatu.

Inzu igurishwa miliyoni eshanu muri Kicukiro i Kigali, ikaba ifite ibyumba bine naho kogera hane.

Iyi ni inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda buri kwezi, ifite ibyumba bibiri, ifite ubwogero Bubiri, ikaba ifite no hanze hanini cyane ahantu umuntu yashyira imodoka ye.

Iyi ni inzu nziza cyane iri mu Mujyi wa Kigali Kanombe, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane y'u Rwanda, ifite ibyumba bitandatu, ikaba ifite n'ubwogero butatu.

Iyi ni inzu iri mu mujyi wa Kigali-Kimironko, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'u Rwanda buri kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero.

Iyi ni inzu ikodeshwa i Kigali i Remera ikaba yishyurwa ibihumbi 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hakaba harimo icyumba kimwe, ubwogero bumwe, aho kwicara hamwe ndetse n'igikoni.

Ikibanza kirimo kugurishwa kandi kigaragara ko ari kinini, umuntu wese wakigura yakubakamo inzu nini kandi inzu igaragara neza, igaragarira buri wese.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, akaba ari inzu igeretse, ifite ubwogero bubiri ndetse ikaba igomba kwishyurwa amafaranga ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda buri kwezi.

Iyi ni inzu nziza cyane ifite ibara ryiza, ikaba ifite n'imbuga nini hakaba hari igiti kiri imbere yayo ikaba ibarizwa mu mujyi wa Kigali Kabeza hakaba haturamo umuntu wese ubifitiye ubushobozi.

Iyi ni inzu, iherereye mujyi wa Kigali-Kibagabaga, ikaba ari inzu nziza igeretse, kandi iyi nzu ikaba igomba kwishyurwa amadolari ibihumbi bitatu buri kwezi ikodeshwa.

Ibi ni ibyumba bigiye bitandukanye, byinshi byiza bikaba bigomba gukodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi ijana na mirongo itanu, umuntu wese waba ushoboye kuyatanga akaba yagenda akahakodesha.

IyI ni inzu ikodeshwa, ikaba iri Kigali, Kabeza, ifite ibyumba bitatu, ikagira ubwogero butatu, kandi ikaba igomba gukodeshwa ibihumbi magana atanu y'u Rwanda buri kwezi.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ikaba ikodeshwa, ni inzu nini cyane igeretse, ifite imbuga nini, ifite urukuta rurerure, ifite n'indi bituranye imeze nka yo.

Iyi ni inzu ikodeshwa iherereye ku Gisozi, ikaba ifite ibyumba bitanu na saro ndetse na saramange, ifite ubwiherero bune, ifite igikoni ndetse n'inzu y'umukozi iri hanze n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu iri mu mujyi wa Kigali iherereye i Kanombe, ikaba ari iyo gukodeshwa, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu ndetse ifite n'imbuga nini cyane aho waparika imodoka yawe.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, Kanombe, ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atanu buri kwezi, ifite ibyumba bine, ikagira n'ubwogero butatu.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba irimo kugurishwa amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni ijana, ni inzu nziza cyane ifite hanze heza ahantu umuntu yaparika imodoka ze zisanzuye.

Aha hari inzu ikodeshwa iri Kagugu, ikaba yegereye sitasiyo ya rubisi. Ikaba ifite ibyumba bibiri, amatuwalete abiri ndetse n'imbuga nini.

Iyi ni inzu nziza cyane yubatse neza, ikaba iri mu mujyi wa Kigali Kanombe, ikaba igurishwa amafaranga angana na miliyoni mirongo inani n'eshanu z'u Rwanda.

Iyi n'inzu ikodeshwa i Kigali muri Kanombe, ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, kandi iyi nzu ikaba igomba kwishyurwa amafaranga ibihumbi magana atanu y'u Rwanda.

Iyi ni inzu iri mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'u Rwanda buri kwezi, ikaba ifite aho kurara gatatu, ubwogero bubiri ndetse n'imbuga nini.

Iyi ni inzu iherereye i Kanombe hafi y'i Masoro, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo irindwi by'u Rwanda buri kwezi, ifite ibyumba bibiri, ifite ubwogero bumwe, ifite aho kwicara hamwe, ifite igikoni cyiza ndetse n'aho waparika imodoka zawe.

Iri ni isoko, ririmo imbuto zigiye zitandukanye, harimo amatunda, harimo ama ronji, harimo pome, harimo imineke, ndetse n'ibindi byinshi, hakaba hari umuntu uje kugura imbuto, arimo kuganira n'uzicuruza.

Iri ni isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi yaba ababigurisha ndetse n'abaje kubigura, harimo inyanya, harimo karoti, harimo intoryi, harimo amashu, arimo tungurusumu, harimo imiteja ndetse n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko ry'ibiribwa, aho tubonamo inyanya, amaronji, ibitunguru, inanasi, amapapayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu wese yifuza yagura.